Umubyeyi uri kwa muganga, wibarutse umwana. Baryamye ku gitanda, ndetse yambitse umwana we ingofero mu mutwe na we ubwe yambaye agatambaro mu mutwe. Yambaye ikanzu y'ubururu, bigaragara ko ari kureba umwana we mu mutima.

Farumasi irimo etageri ebyiri ziteganye zirebana, harimo n'umwanya umuntu ashobora kunyuramo agiye gushaka imiti, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu dukarito indi iri mu ducupa ,ariko bigaragara nk'aho itari mu dukarito iregeranye ,ndetse iranatandukanye ntabwo ushobora kuyi...

Ibyatsi byifashishwa mu kuvura, bihinze mu murima ndetse hakaba harimo n'ibigori bigaragara nkaho bitarera neza hirya yaho hari inzu ifunguye.

Umurima ufite itaka ry'umukara uhinzwemo ibigori, iruhande rw'ibyo bigori hari inteja zirandaranda, ndetse harimo n'ibindi byatsi bitandukanye, harimo ibyatsi byitwa amagorogonzo.

Ibiti bigira amahwa bikunda gufata ku myenda y'abantu bisa n'icyatsi, biteye hamwe n'ibisheke mu murima umwe, hirya yabyo haragaragara nkaho hari ibindi biti byegeranye cyane.

Indabyo zihinzwe mu murima, ziregeranye cyane, zifite uturabo hejuru, ndetse zifite n'uduti tujya gusa n'umutuku, aho udashobora kuzitandukanya n'izindi, hari ibyatsi bizegereye ndetse biri iruhande rwazo.

Umurima wamezemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye harimo: intoyi, ndetse n'ibindi byarandaranze hasi. Birasa n'icyatsi bigaragara nkaho byakubiswe n'izuba. Harimo amababi yumye ndetse n'andi ameze nk'icyatsi.

Umurima uhinzwemo imbuto zikungahaye ku ntungamubiri nk'intoryi, zisasije ibiti by'inturusu. Bikaba bifite ibibabi byumye. Inyuma hirya y'izo ntoryi hari insina iteyemo imwe ifite ikoma ryumye. Iruhande rwazo hari igiti cy'ikawa ndetse...

Umurima urimo utwatsi dutandukanye, uhinzwemo ibinyomoro. Biracyari bitoya, ni bitoto, biratohagiye, nta bwo biragera aho byera. Biragaragara nk'aho bimaze kuhirwa, munsi ya byo hari utundi twatsi tutabagaye tutaranduye, ngo birusheho kugaragara.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibiti bitandukanye harimo imihati imisave, imisave isa n'icyatsi kibisi ndetse n'iyo mihati nayo ikaba ifite ibibabi birebire bigaragara nkaho bijya kumera nk'iby'urubingo.

Uturabyo duteye mu mabuye hagati, amabuye asa n'umukara harimo n'ibyatsi by'urwiri, dufite amababi asa n'icyatsi ndetse n'andi asa n'umuhondo, hari uturabyo twamezeho hejuru, tujya gusa n'umweru ndetse harimo n'akantu imbere gasa n'umuhondo.

Icyatsi cyifashishwa mu kuribwa, ndetse n'imiti itandukanye, cyitwa gaperi. Gaperi iraribwa, ifite imbuto zigiye zitandukanye, ifite ibara ry'icyatsi ku mababi, ndetse biragaragara nk'aho izuba riri kukivaho, giteye ahantu hitaruye, ndetse bigaragara nk'aho..

Amasusa arimo umuceri，amasusa ababana cyane， iyo uyicayemo akunda kugufata ku myenda，ndetse agakunda no kugira utuntu tw’utwoya ku mababi yayo.

Umurima urimo amabuye y'amakoro ,hagati y'ayo mabuye harimo ibyatsi by'icyatsi kibisi ,ndetse hakabamo n'ibindi byitwa nyiramunuka, byifashishwa nk'imiti gakondo yo kuvura ,hirya yabyo hari ibindi byatsi na byo by'icyatsi kibisi, birandaranda hasi na byo byifashisha nk'umuti.

Icyatsi cya nyirabarasanya gifite uturabyo, hejuru cyarabye ndetse n'ibishoko. Kigaburirwa inkwavu, ndetse hasi yacyo hakaba hari ibindi byaharandaranze, harimo inteja ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima urimo ibyatsi bigaragara nk'aho ari ibikoreshwa nk'umuti gakondo. Bihinze mu murima, biregeranye, harimo n'ibindi byatsi bigaragara nk'indabyo byegeranye, biragaragara nk'umuti bakoresha bavura.

Imyumbati, imyumbati iri mu murima igaragara nkaho imaze igihe gitoya imeze, itarera ndetse iruhande rwayo hari amateke ndetse no hirya yayo hari ibindi byatsi bisa n'umuhondo.